Umuceri bigaragara ko weze hanyuma hakaba handitse hejuru ubwishingizi bw'ibihingwa ibumoso hakaba handitse radiant yacu mu ibara ry'ubururu hanyuma umunsi gato hakaba handitse ubwishingizi bufasha mu ishoramari ritanye abahinzi bakabona umusaruro ushimishije mu ibara ry'umukara na none hasi gato handitse magambo yanditse mu ibara ry'ubururu munsi hakaba handitse mu ibara ry'umukara.

Iyi ni ifoto igaragaza muri rusange uburyo bwo kohereza cyangwa se kwakira amafaranga.

Igipupe, cyambaye ijipo irimo amabara atandukanye ,amabara y'ivu ndetse nay'umukara agiye anyuranyuramo, hanyuma ndetse hejuru akaba yambaye agasengeri kari mw' ibara ry'umukara, hanyuma hakaba inyuma hari inkweto ziri mu matajeri nyinshi z'amoko agiye atandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe agaragara ko arimo aracuruza undi nawe ari umukiriya hanyuma uri umukiriya akaba afite umusatsi mwinshi cyane, yambaye agasengeri hanyuma uri kugura we yambaye umwenda uri mu ibara rya move, azengurutswe n'ibicuruzwa byo gucuruza.

Imyenda yamashati yiganjemo amabara atandukanye, aho ishati ibanza hano hino ifite ibara rya kaki, hanyuma ikurikiyeho ifite uburu bwjimye, ikurikiyeho ya gatatu ifite umuhondo, ikurikiyeho ya kane ifite ibara ry'umutuku, ikurikiyeho ya gatanu ifite ibara rya oranje, hanyuma ihereka na yo ifite ibara ry'uburu bwijimye, ikaba iteretse ahantu hasa ubururu.

Abantu babiri, abadamu, umwe afite umusatsi mwinshi yambaye umupira w'amabara y'umweru n'umukara, undi na we ufite umusatsi uringaniye, yambaye agakoti inyuma, kari mu ibara ry'ubururu bwerurutse, imbere yambayemo agatisheti y'ubururu, inyuma yaho hari imyenda ihamanitse bose bashyize ibiganza kuri mashini ubona ko banezerewe.

Imyenda y'amashati yiganjemo iy'amabara y'ubururu, umukara ndetse n’ay'umweru, hakaba hejuru hari itara riri kwaka ndetse munsi gatoya hakaba hazengurutse akantu k’amabara atandukanye, umuhondo ndetse n'umukara.

Imodoka iri mubara y'umweru ndetse n'ay'umukara, inyuma hari amakontineri y'amabara atandukanye umweru umutuku ku ruhande rw'iburyo, hakaba hari indi modoka iri kwaka amatara umutuku hejuru abiri, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ay'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, afite umusatsi mukeya, yambaye umupira w'ibara ry'umweru, ikoboyi y'ubururu, akaba ukuboko kumwe kuri kumodoka y'ibara ry'umweru n'umukara, inyuma ye hakaba hari imodoka yiganjemo ibara ry'umukara.

Umugabo n'umugore bafashe icyapa kiri mu ishusho y'imfunguzo, handitseho ABG, B iri mu nyuguti nkuru igizwe n'umukara, hanyuma iburyo bw'umugabo hakaba haparitse imodoka yiganjemo ibara ry'umukara.

Abagabo batatu bambaye imipira umwe ibumoso'umupira w'mweru yegeranye nuwambaye ishati y'amaboko maremare ajya kweruka ndetse undi uri iburyo wambaye umupira bwa nyuma icyatsi keruka akaba bose bahagaze imbere y'imodoka yamabara y'umuriro ndetse n'iy'umukara inyuma hari ikidari cyubakiciwe ibara ry'mweru yanditseho iyibiji.

Abagabo batatu bahagaze, babiri b'Abahinde n'umwe w'Umunyafurika, wambaye ishatimaku maremare n'ipantaro y' yumukara, abahinde babiri bambaye udupira tw'umweru n'amakoboyi kandi mu ibara ry'ubururu, bose bafashe ku cyapa cyanditseho ayibiji biri mu nyuguti nkuru, iruhande rwabo iburyo hari imodoka yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara inyuma yabo hakaba hari inzu yanditse fuso mu ibara ry'umutuku.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amashati y'ububururu, umwe yambaye ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ikoboyi ijya gusa ubururu, bahagaze imbere y'imodoka yiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara.

Icyapa kinini kirimo amabara y'umweru n'umutuku handitseho Toyota ndetse n'ikirango cya Toyota, hanyuma impande hakaba hari indabyo zicumye neza amabara y'icyatsi, hanyuma hirya mu cyerekezo cy'iburyo hakaba hari inzu yiganjemo amabara y'umweru.

Imodoka yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'irijya gusa umweru, inyuma hakaba hari ibara ry'ubururu. Hanyuma imodoka ikaba iteretse ku makaro afite ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze, umwe ahagaze afashe ku modoka yiganjemo amabara y'umukara ndetse n'umweru, undi akaba ari ibumoso bwe, ahagaze afashe icyapa mu ntoki. Yambaye ishati irimo utubara tw'umweru ku ikora ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abagabo babiri umwe w’umwirabura wambaye ishati irimo umutuku ndetse n'ibara ry'ivu, undi w’umuzungu wambaye ishati irimo ubururu ndetse n'utubara tw'umukara dutambika tunamanuka, yambaye isaha ku kuboko.

Amazi ateretswe ku meza agizwe n'ikihure hejuru hafi y'amazi hateretse ibinyamakuru bitandukanye hanyuma imbere gato y'ameza hakaba hari imodoka ihaparitse, ifite ibara ry'umweru harimo na y'umukara hari kinyoteri ry'umutuku w'umuhondo n'umweru, hanyuma hirya n'ibumoso y'imodoka hakaba hari indi ihaparitse igaragara imbere gusa na yo ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abagabo batatu bahagaze, babiri bambaye hejuru umwenda w'umukara n'amakoboyi y'ubururu, hagati harimo uwambaye umupira w'umweru, hasi yambaye ipantaro y'umukara, bahagaze imbere y'imodoka ziganjemo amabara y'umukara ndetse nay'umweru, bose bafashe ku gikoresho gishushanjeho urufunguzo, handitseho IBG biyanditse mu nyuguti nkuru.

Igiceri hagati gishushanyijemo ishaka, hanyuma hakaba handitseho amagambo azengurutse ku ruhande, banki nasiyonari di Rwanda, mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na karindwi, iki giceri kikaba kiri mu ibara rya kacyi ariko ryerurutse.

Umugabo ufashe amafaranga mu ntoki, arimo ayashyira mu mashini, ibara amafaranga, hanyuma y'ino gatoya hakaba hari amafaranga afunze, n'imigozi y'umweru.

Amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bitanu, hagaragara insina ifite igitoki ndetse hagati hagacamo ikiyaga cy'amazi, hakurya hakagaragara imisozi iriho ibiti.

Utubido twinshi tw'ibara ry'umweru, twose duteretse ahabugenewe, ubona yuko dusa neza kandi dufite isuku, turi ahantu heza.

Iparato y'icyuma, iriho amasambusa, hanyuma ayo masambusa n'iyo parato bikaba biteretse ku meza iri mu ibara rya kake, ikoreshejwe ibiti.

Abantu batatu, babiri bari ku ruhande bari guseka bishimye, bambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku, ingofero zisa, hanyuma hagati hakaba harimo uwambaye umupira w'umukara, harimo amagambo yanyandikishije amabara y'umweru ndetse n'umutuku, bose bakaba bafite ibicuruzwa mu ntoki byiganjemo amabara by'umutuku ndetse n'umweru.

Abantu babiri b'abasore bateruye igicuba kibamo amata, hino inyuma yabo hakaba hari umumama wambaye agasengeri karimo amabara y'umutuku n'umweru, hasi hateretse icupa, ndetse inyuma y'umumama hari umugabo, imbere hari undi mugabo wambaye umwenda w'icyatsi.

Umumama wicaye yambaye igitenge, ukuboko kumwe kw'imoso gufashe ku meza ateretseho ibikombe bigiye birimo n'amata, icya hano hino kirimo amata ari ikirahure, hanyuma byose ayo meza biteretseho akaba ateretseho umwenda urimo amabara ya kacyi ndetse n'ay'umukara, hanyuma hirya iburyo by'umudamu hakaba hateretse firigo iriho icupa rya Koka.

Umugati ukunze kwitwa pekupe, ugiye ukasemo ubuce bwinshi bw'umugati, ukaba uteretse ku gikoresho gikozwe mu giti.

Icyuma kizengurukijweho ibara ry'umweru handitseho inyange milike zone. Hanyuma icyo cyuma kikaba gifite, akarobine gafungurwa kugira ngo habashe kujya hatambukamo amata aba arimo imbere. Hanyuma hino hakaba hateretse intebe y'ibara ry'umweru. Hanyuma inyuma y'icyo gikoresho kitwa amata, hakaba hari akabati gateretsemo amaji n'ububido bw'umweru bigiye bitandukanye.

Icyumba giteretsemo igicuba kirimo amata, hanyuma hakaba harimo n'umukobwa wambaye umupira w'ibara ry'umweru, ikabutura mu ibara rya move, ndetse n'inkweto zifunze inyumaye hakaba hari intebe yasheze afite telefoni mu ntoki bisa nkaho ari kwandika.

Aha ni muri butike icuruza ubwo gucuruza bitandukanye, harimo ama ji ndetse hakanagaragara umuntu ucuruzamo ndetse n'umukiriya wicaye aho yakirirwa.

Amazi atetse, hirya y'amazi mu gcyerekerezo k'iburyo hakaba hari amvelope imwe ndende ndetse n'akandi gatoya kari mu nguni, hanyuma imbere y'amazi n'amvelope hakaba, hasa ibara ry'umweru bisa nkaho hateretse akantu ka mpande enye.

Igikoresho cyifashishwa mu kubikamo amata mu rwego rwo kugira ngo atangirika kandi akomeze yujuje ubuziranenge nta kibazo yagize, hanyuma ibumoso bwaho turabona akumba kabitsemo udupira tw'amata kugira ngo na ho akomeze abe ameze neza.

Firigo irimo ijage ikaba iteretsemo iriya jage n' akandi ka jaga gato k'ibara ry'icyatsi, hejuru harimo akabido, imbere harimo ibintu hanyuma hirya ya kabido hari icupa ry'amazi hanyuma inyuma ya filigo hari amacupa cyangwa se amajerekani ya Jibu, byose bikaba biri ku gikuta cyubakije amatafariye.

Ikiganza gifashe telefoni mu ntoki izengurutswe n'ibara ry'umukara, iki kiganza kikaba ku nzara cyisiho verine y'ibara ry'umweru, mo hagati muri telefoni hakaba harimo ibikorwa birigukorwa bitandukanye, bigizwe n'amabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Amafaranga yiganjemo inoti z'amadolari z'amafaranga ijana, hanyuma hakaba harimo n'izindi note zigiye zitandukanye z'ibihumbi bitanu, z'igihumbi, amafaranga agiye atandukanye aturuka mu bihugu bigiye bitandukanye.

Inote y'amafaranga magana atanu, hagati harimo inyenyeri zizengurutse ziri mu mabara atandukanye, hakaba nanone hagati harimo inyubako.

Intoki zifite amafaranga mu biganza zirimo zirayabara, amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, hariho ishusho y'umugabo udafite umusatsi, wambaye amarinete usa nk'urimo aramwenyura.

Umugabo wambaye, ishati y'amaboko magufiya ,iri mu ibara rya move ,harimo ndetse n'akabara ka orange ,afite ikaramu mu ntokii y'ibara ry'umweru, arimo arandika ,ku cyapa kiri imbere, kigiye cyanditseho parensi bayiseri ,cyandikishijejwe inyuguti z'umweru, kigizwe n'amabara y'umutuku, ndetse na y'umweru.

Uyu ni umutako ukoze mu biti, werekana ahagiye hari ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutaka inzu kugira ngo igaragare neza, aho hagaragaraho indabyo.

Udukoresho tubiri twose tubaje mu biti, hakaba hagiye hariho imyenge itandukanye, bigaragara ko kamwe gacomekwa mu kandi, mu rwego rwo gukora icyo gikoresho kirimo cyubakwa mu biti.

Intebe ziteretse hanze zirimw, ibara ry'ubururu ziri iburyo hanyuma hakaba n'izindi ziri mu ibara ry'ubururu ryerurutse ziri ibumoso akaba yateretsemo utumeza turi mu ibara ry'umweru hanyuma nyuma y'izo ntebe zose, hakaba hari umuntu wicaye yegamye ku nzu afite telefoni yashyize ku gutwi hanyuma iyo nzu yegamyeho ikaba ifite amadirishya n'inzugi z'ubururu.

Aha ni muri salo, aho harimo intebe zo kwicarwamo ndetse n'akameza ko kuba katerekwaho ibintu bigiye bitandukanye, yaba ibyo kunywa.

Ameza akoze mu bikoresho bitandukanye, aho harimo ibiti, ibirahure, hanyuma ayo meza akaba akikijwe n'intebe zo kwicaraho ariko zikozwe mu biti gusa; hanyuma ikaba iri mu nzu, aho imbere hari urugi mu nguni y'iburyo, ndetse hakaba hari n'akabati mu cyerekezo cy'ibumoso.

Intebe nziza z'umukara zizengukijwe n'ibyuma bijya gusa shokora, i nyuma hari ibikombe bibiri biteretse ku meza y'ibara ry'umukara, ibikombe bisa umweru, izo ntebe n'ameza bikaba biteretse ku makaro mu ibara ry'umweru.

Sale nini cyane irimo intebe z'ibara ry'umukara, hanyuma ikabafite ameza ari mu ibara rya kaki ryererutse, hejuru hakaba hari amatara arimo araka, igisenge gisa amabara y'umweru, iyo nzu ikaba hasi isashishijwe n'amakaro ari mu ibara ry'umweru.

Inzu ebyiri, imwe iri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi iri muri fomu y'igi, hanyuma hino hakaba indi nzu nayo nini icanya amatara y'iganjemo ibara ry'umuhondo. Hakurya y'izo nzu zose hakaba hari imikindo yakuze ifite ibara ry'icyatsi.

Inzu iri mu moko abiri y'intebe, intebe z'umutuku ndetse, n'izindi ntebe z'ibara rya kaki rivanze n'icyatsi, hanyuma zikaba zizengurutswe n'inzugi ahanini ziganjemo ibirahure, ndetse imbere y'ibirahure hakaba hari itara, hakaba harimo n'imitako yiganjemo ibara ry'icyatsi.

Inzu ifite icyapa hejuru kirimo amabara abiri y umweru ndetse n'umutuku handitseho yuwapa inshuwarensei ndetse munsi hakaba handitse biima kubikuta by'iyo nzu n'ibara ry'umweru hasi hakaa hasa ibara ry'umukara hanyuma ku nzugi ari ibirahure hashushanyijeho umuntu uri gusekabonakanezerewe nambaye ishati y'ubururu.

Umuntu w'igitsina gabo wicaye ku ntebe, amaboko yombi ari kuri tabure igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'amabara y'ubururu, handitseho ijambo Radiyanti, hanyuma hino hakaba hari ivaze iteretsemo indabyo z'ibara ry'icyatsi, hakaba hari undi mugabo hirya ye uhagaze, wambaye kositimu irimo ishati kimwe n'umugabo wicaye wari wabanje.

Icyumba gifite ameza ari mu ibara ry'ivu, ku mpande hariho intebe zo mu mabara y'umukara, inyuma imbere iteganye n'ameza hakaba hari igikoresho kimwe muri mpande enye hagati handitsemo saniramu mu mabara y'ubururu.

Eee, abantu babiri barasuhuzanya b'igitsina gore, umwe yambaye ishati harimo amabara yiganje y'icyatsi undi nawe uhagaze usa nk'uwuri kumusuhuza, yambaye ishati y'ibara ry'umweru ndetse usa nk'aho bose banezerewe, bishimye.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye hanyuma imbere hakaba hari ibirahure byinshi, hejuru yanditse ijambo Sanlam mu ibara ry'ubururu, hari ibiganza bibiri bifatanye hanyuma hino y'iyo nzu hakaba hari umuntu uri kwerekerayo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara n'ingofero y'umuhondo, hanyuma ibumoso bw'uwo muntu hakaba hari moto yicayeho abantu babiri umwe w'igitsina gabo undi w'igitsina gore.

Inzu yanditseho hejuru I&m bank limitedi hanyuma musiyaho hakaba Hari icyapa cyubururu hateretseho mbafure iri mwibara ryumuka ibumoso bwa mbafure hakaba Hari umuntu wambaye umupira wubururu hanyuma tugarutsehino iburyo bwa mbafure imbere hakaba harumugabo wabmaye ishati y'umweru karuvate y'umukara nipanaro y'umukara bakaba ari batatu

Ibitoki byinshi biteretse hasi byose bibisi, ku mpande hari abantu bari mu isoko barimo baragura ibicuruzwa bitandukanye n'abandi bacuruza, iryo soko rikaba rishakajwe n'amabati yo mu ibara ry'ubururu.

Kaburimbo irimo iracamo moto umumotari ahetse umukiriya hanyuma, hakurya y'umuhanda hakaba hari amazu ubucuruzi, haparitse amamodoka atandukanye ndetse hari n'abantu barimo baratambuka, hejuru hakaba hari insinga zihaca zifashe ku ipoto, iriho itara ryubakishijwe sima, insinga zijyana umuriro mu byerekezo bitandukanye.

Inzu nini cyane yiganjemo amabara y'umutuku, ibirahure ndetse munsi hakaba hari imodoka nyinshi cyane, hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse na moto ziri mu muhanda z'abamotari bambaye amajiri y'umutuku.

Abantu bari mu isoko biganjemo ab'igitsina gore, isoko ririmo inyanya, imboga, intoryi ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, bigaragara y'uko bari mu isoko bari gukora igura ni gurisha.

Aha haragaragara umugabo umwe, urimo uraka ubufasha butandukanye ndetse hakagaragara hirya ibumoso bwe umukobwa cyangwa se umudamu.

Abantu batatu bahagaze harimo umukobwa uhagaze wifashe mu mayunguyungu yambaye umwenda w'umukara hejuru, hasi ubururu, yegamye ku kazu ka MTN ndetse n'abandi bagabo harimo uwambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi n'ipantaro y'ubururu undi nawe yambaye umupira w'amoboko magufi n'ipantaro y'ubururu inyuma hari inzu yubakisha amatafari ahiye.

Umumotari utwaye moto yambaye umupira w'umuhondo, kasike y' ibara ry' umutuku, moto ye ikaba iri mu mu mabara y'umutuku, umweru n'umukara akaba ahetse umuzigo ufite impande enye uruhande rw' iburyo rukaba rusa mu ibara ry'umuhondo hanyuma urw'inyuma ruri mu ibara rya oranjye hanyuma bikaba bizengukitswe n'akabara k'umukara gaca ku nguni hanyuma hirya ya moto hakaba hari ibiti byo mu ibara ry' icyatsi.

Ibiganza bibiri bifashe ku gikoresho cyifashishwa n'abakobwa mu gihe bahuye n'ibibazo by'imihango, kugira ngo babashe kuba bamera neza. Hanyuma hakaba handitse amagambo menshi cyane, munsi y'ibyo biganza bibiri bifatanye.

Umumotari wicaye kuri moto yambaye ijire irimo amabara ya oranje ndetse n'irindi bara ry'ivu, yambaye kasike y'ibara ry'umutuku, yicaye kuri moto irimo amabara y'umutuku ndetse n'ay'umweru, inyuma akaba atwaye akabosi kugutwaramo ibicuruzwa bitandukanye byatumwe.

Igitanda kiri mu ibara ry'umukara gishashweho uburiri, buriho ishuka y'umweru; hanyuma imbere hakaba hari idirishya rimwe rifunguye, amarido asunitse ku ruhande, hanyuma hakaba n'umuryango ibumoso bw'iryo dirishya na wo ufunguye, hejuru hakaba hari itara , hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye, bigaragara ko ari Kacyiru mu Mujyi wa Kigali.

Intebe z'ibara ry'umweru nziza cyane zigera mu ntebe enye, harimo n'udusego twazo dutoya, hanyuma igikuta cy'inzu zirimo kiganjemo ibara ry'umweru, hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru ndetse hari n'utundi twaka hejuru kuri parafo, utubara tw'umuhondo.

Inzu ifite igisenge cy'ibara ry'umutuku, ikagira amarangi y'ivu ndetse n'umweru, ikaba ifite amadirishya afite ibara ry'umweru.

Inzu ifite igipangu gifite urugi rurimo ibyuma bimanuka n'ibitambika, birimo amabara y'umukara, hanyuma ikaba ifite igipangu cy'amatafari ahiye, hejuru y'amatafari hariho akabara gatambikaho k'umweru, hariho n'amatara ndetse inzu ikaba ifite amabati y'umutuku.

Iyi ni inzu, aho hagaragara imitako y'ubwiza itandukanye, harimo indabyo zisa icyatsi.

Abantu babiri bigaragara ko umwe ari umucuruzi undi akaba ugura, umugabo wambaye ishati y'ubururu, hanyuma n'umudamu uri ibumoso bwe, wambaye uyu mwambaro wiganjemo ibara ry'ubururu, ariko harimo n'umweru mukeye.

Umuntu wunamye bisa nkaho ari muri alimantasiyo, arimo arareba ibicuruzwa ashaka kugura, akaba yambaye ishati irimo amabara atandukanye, ipantaro y'umukara inkweto z'ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hanyuma imbere ye ukomeje hakaba hari umugabo w'umuzungu, wambaye umupira urimo amabara y'umweru n'umukara, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara.

Isoko ririmo imbuto z'amoko agiye atandukanye, inyanya, intoryi, karoti, tungurusumu, imiteja, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi bagenda bagura ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru mo imbere harimo ishati y'ubururu, bisa nk'aho ari kwandika we na mugenzi we uri kumufasha ibumoso bwe, imbere yabo hari abaturage basa nk'aho baje kwivuza barimo baravuga indwara zabo uko zimeze, hanyuma akabandikira yakurikije ibyo bamubwiye kugira ngo babashe kuba babona ubuvuzi.

Abagabo harimo abasaza bafite inkoni ndetse n'umusore wambaye ishati y'ubururu, ufite impapuro mu ntoki hanyuma harimo n'abadamu bambaye ibitenge, bose bari mu nzu, bakurikiye igikorwa runaka kiri kuba.

Ikiganza gifashe ikaye iriho mituwere, bigaragara ko ari umumama wambaye ibitenge ndetse n'akitero k'amabara ya kake, ay'umukara, ndetse n'ay'umweru, ndetse n'undi bigaragara ko begeranye na we ari umumama wambaye igitenge kiri mu mabara y'icyatsi, umukara, umweru, ndetse n'umuhondo.

Ikarita y'umuhondo ifashwe n'intoki ebyiri, ikarita ikaba yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara, Repubulika y'u Rwanda hanyuma munsi hajyamo ikirangantego ki gihugu cy' u Rwanda, munsi hakaba handitsemo muri minisiteri y'ubuzima umujyi wa kigali, nanone munsi gato akarere ka kicukiro.

Mu iduka harimo abakobwa babiri ndetse n'umuhungu umwe inyuma, umwe yambaye agapira k'ibara ry'umweru hasi yambaye umukara, arimo araterura amavuta, undi na we yambaye ishati ya kaki arimo aratunga urutoki, afite umusatsi mwinshi uri inyuma, yambaye umupira w'umukara.

Agakoresho kifashishwa mu gutwara ibicuruzwa byaguzwe, gateretse hagati y'amatajeri abiri, ataretsemo ibicuruzwa biga ko ari muri arementasiyo, imbere hananditse mega supamaketi, hanyuma aba makorodoro bacishwamo ibicuruzwa bimaze kugurwa, isunikwa kuri ka gakoresho kari hagati.

Umuntu wambaye umupira kubera icyatsi kimo cyijima, arimo arakoze ikarita, asa nk' uri kwishyura, ibicuruzwa yamaze kugura, hanyuma afashe icyo ari gukozaho ikarita yishyura akaba yambaye agapira k'umutuku, ndetse na agataburiya kari mu ibara rya shokora.

Ibicuruzwa bitandukanye bipfunyitse mu bikoresho by'amabara atandukanye arimo; ay'ubururu, ay'umutuku, ay'umuhondo ndetse n'ay'umweru.

Umukobwa ufite umusatsi mwinshi cyane yambaye ikote ry'ubururu, imberemo ririmo agatisheti k'umweru, yambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, arimo aratambuka impande y'ibicuruzwa by'amabara atandukanye y'icyatsi, y'umukara, umutuku, arimo arareba yitegereza igicuruzwa afite na terefone mu ntoki.

Inzu nini nziza cyane y'ubucuruzi, ikunze kwitwa super makert harimo ibicuruzwa bitandukanye by'amoko atandukanye, aho twavuga inanasi mu mbuto, amacunga, amaronji, hakaba hagiye hagati harimo akayira umuntu acamo agenda areba ikintu ashaka kugura cyangwa guhaha yumva yifuza.

Ibyo kunywa bitandukanye gusa byinshi byo hasi byiganjemo iby'uruganda koka ndetse na fanta, bikaba biri mabara atandukanye ay'umutuku n'umuhondo, umukara ndetse n'andi ari mu icupa ry'icyatsi kibisi.

Ibicuruzwa bireretse mu tubati, hagati harimo akayira, ibyo bicuruzwa bikaba biri mu mabara atandukanye umuhondo, umweru, hanyuma hakaba harimo amatara yaka, kugira ngo umuguzi utambukamo abashe kuba yabona neza igicuruzwa ashaka.

Sale nini ,bigaragara ko irimo ibicuruzwa, biri ku mpande zigiye zitandukanye ,hanyuma hagati hakaba harimo inzira, yabagendwa ,icamo abantu bagenda bareba ibicuruzwa bitandukanye, bagenda bakatamo ,hanyuma hejuru hakaba hari amatara ,arimo araka kugirango abashe kugirango habashe kuba habona mw'imbere ,hanyuma ku ruhande rw'ibumoso hakaba hari ifoto imanitse umuntu wambaye amarinete y'umukara.